Abantu bicaye ku ntebe z'umweru, bari kumva ijambo umuyobozi cyangwa se uri kuvuga ari kubagezaho, kugira ngo bumve igitekerezo cye n'ibyo avuga n'ibyo abazaniye ku meza.

Urubyiruko rw'ingeri zose haba abakobwa n'abahungu bambaye imipira y'umuhondo yanditseho urugerero iriho n'idarapo ry'Igihugu bigaragara ko bakurikiye inama cyangwa se ikiganiro bagiranye n'umuyobozi.

Umugabo uri hagati y'imyaka mirongo itantu na mirongo irindwi yambaye amarinete ishati y'umweru na karovati irimo umurongo impeta ndetse ni ikote risa n'ivu yicaye mu ntebe y'igiti isisze irange rijya gutukura.

Abantu bazengurutse ameza bicaye ku ntebe zisa n'umukara, imbere yabo hari imashini ndetse n'amazi y'Inyange bakurikira, uri imbere abagezaho ibyo yateguye, ndetse bamwe muri bo bambaye imyenda itandukanye mu mabara, ndetse harimo abahungu n'abakobwa.

Abantu bakurikira inama y'umuyobozi uvuga cyangwa se ubagezaho ijambo imbere, bambaye amakote imbere yabo hari amacupa y'amazi, ndetse n'ibitabo n'amakaramu bari gukurikira bumva ibivugirwa ku ruhimbi.

Urubyiruko rw'abasore n'inkumi bambaye imipira isa n'ubururu iriho idarapo y'u Rwanda ndetse imbere yabo hari uducupa tw'amazi, aho bigaragara ko bakurikiye ikiganiro cyangwa inyigisho iturutse ku muyobozi runaka.

Abayobozi bicaye imbere kuri podiyumu barimo batanga ijambo, ndetse n'ibyo bateguye nk'insanganyamatsiko' imbere y'imbaga y'abantu babakurikiye. Inyuma hari icyapa kigaragaza ibyo bakora ndetse n'insanganyamatsiko baje kuvugaho.

Abantu bicaye mu gatsiko hanze kuzuba ndetse bareba abandi bari imbere bababwira ndetse babagezaho ibyo babateguriye bisa nsho ari inama iri kuhabera ndetse imbere yabo bayobozi hari ameza ariho ururabo ndetse n'agatambaro gasa n'umweru.

Umumama ufite imisatsi y'umukara tsiri, imbere ye hari icupa ry'inyange, yambaye isaha n'imbere ye hari agaseke afite isakoshi y'umukara ndetse yambaye imyenda irimo ibara, ku ruhande rwe hari undi mumama utagaragara mu isura ariko ufite ikaramu mu ntoki.

Abantu bicaye bari mu nama bambaye neza harimo abambaye amakote b'abagabo ndetse bari mu kigero k'imyaka makumyabiri kuri mirongo itanu bakurikiye inama.

Abantu bitabiriye inama ndetse imbere hari umumama wambaye ikanzu isa n'ubururu uri kubagezaho ijambo rye kuri uno munsi wiswe tuwarizimu deyi abitabiriye n'urubyiruko gusa harimo n'abandi bakuze n'ingeri zose.

Umugore wambaye ikote risa n'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara, imbere harimo agapira gasa n'umweru, ari gutanga ijambo imbere y'abaturage bicaye bamukurikira ibyo abagezaho.

Inama y'abayobozi, imbere yabo hari amazi y'inyange, ndetse n'ibitabo n'amakaramu, bandika ibyo bari kwigira mu nama cyangwa se ibyo bagezeho.

Umuhanda w'umukara bakunze kwita kaburimbo hakaba harimo imirongo y'umweru aho abagenzi bambukira cyangwa se abanyamaguru, ndetse hakaba hari n'ibyapa bigaragaza ko abagenzi bagomba kwambuka, akaba arimo kwambukamo abantu hirya hakaba hari igorofa riri mu ibara ry'umweru.

Abayobozi bicaye ku meza ariho igitambaro cy'umukara ndetse hejuru y'ameza ahariho ibikoresho bitandukanye biri kubafasha mu nama bari gukora kuri ayo meza hariho amazi ibitabo, imashini n'ibindi bitandukanye abayobozi bari gukora inama harimo n'abashinzwe umutekano.

Abayobozi bicaye imbere aho bari gukurikirana igitaramo kiri kubera imbere cyangwa se ubutumwa buri gutangirwa imbere aho ngaho n'aho inyuma hari abantu bari gufata amashusho.

Abayobozi bari mu nama, umuyobozi w'umugore yicaye hagati y'abagabo, imbere ye hateretse icupa ry'amazi, ndetse hari n'imashini imbere ye, n'indangururamajwi, yicaye ku ntebe y'umukara, yambaye amarinete, asa inzobe, inyuma hari ibyapa byanditseho Kigali yacu.

Abantu bicaye ku ntebe imbere yabo hari ameza hariho ibitambaro bitukura, bari kumva amabwiriza cyangwa bari kumva uri kubabwira ijambo imbere yabo, bamuhanze amaso ndetse bumva ikimuvamo.

Abagabo babiri bari mu nama uw'ibumoso yambaye ikote ry'umukara n'ishati y'umweru, uw'iburyo yambaye ishati y'ubwoko bwa mede ini rwanda imbere yabo hari ji z'inyange ndetse n'amazi yayo, ndetse n'indangururamajwi.

Abantu bicaye bafashe ibitabo mu ntoki ndetse n'amakaramu, harimo abagabo ndetse n'abagore bicaye mu ntebe zisa n'umukara bambaye imyenda itandukanye bigaragara ko bakurikiye ubabwira ijambo.

Abantu bari gukora inama, harimo abagore ndetse n'abagabo, bicaye ku ntebe zisa n'umukara, imbere y'aho hari ameza asa n'umukara ariho imashini, amazi, impapuro, porojekiteri, amakaramu, n'ibindi.

Abayobozi bicaye imbere y'imashini, imbere yabo hari amazi y'inyange ndetse na microfone, inyuma yabo hari abantu nabo bakurikiye ibiri kubera mu nyubako, muri rusange bakurikiye ikiganiro cyangwa ubutumwa bari kugezwaho n'umuntu runaka.

Abantu batandukanye haba abagabo haba bagore bari mu kigero cy'imyaka y'ubukure ndetse b'urubyiruko badashaje, harimo abambaye amarinete bose bambaye utuntu tw'icyatsi twabaji m'ijosi.

Abaturage bari kumva umuntu uvuga ijambo cyangwa bari gukurikirana event iri kubera kuri iyo mbuga, bose higanjemo urubyiruko gusa n'abakuze barimo.

Urubyiruko rwicaye rwumva inama cyangwa se ikiganiro umuyobozi arimo abagezaho bamwe muri bo, bambaye imyenda ifite amabara atandukanye gusa higanjemo n'ab'igitsina gore.

Abaturage bari mu nama bambaye imipira isa n'ubururu bari kwandika bafite amakaramu, amakayi, amatelefone ku meza ndetse n'amazi y'inyange basa n'abari kwiga ku nsanganyamatsiko n'ingingo nshya.

Inama y'abayobozi batandukanye, munyubako ngari, ndetse abayobozi bafite mikorofone, bafite amaraputopu, bafite n'ibyo kunywa imbere yabo, bari gukora inama.

Umugabo ufite ubwanwa wambaye amarinete, wambaye ikote risa n'ubururu bwerurutse, imbere ye hari sanitayiza ndetse n'amazi, ari kuganirira abagabo bandi babiri bamuteye umugongo; umwe wambaye amarinete ndetse bose bambaye ishati ziri mu bwoko bwa meyidi ini Rwanda.

Abantu bakurikiye inama iri kubera mu nzu nziza ifite amatara asa n'umuhondo ndetse abantu bambaye neza imbere y'ameza hari amazi ndetse mudasobwa ndetse n'amabike ndetse n'amakayi bari gukurikira inama bumva ibiyivamo.

Icyumba cy'inama iri kuberamo inama y'abayobozi, imbere y'abo bayobozi hari amaraputopu, ibyo kunywa ndetse na mikorofone z'indangurura ziri kurangurura amajwi y'ibyo bari kuvuga.

Abantu bakurikira umusangiza w'amagambo, umusangiza w'amagambo afite microphone ndetse yambaye costume y'umukara n'ishati y'umweru ndetse n'inkweto z'umukara n'amarinete asa n'umukara abakurikiye barimo abasorendetse n'inkumi abagabo, abagore ndetse no kumeza yabo hariho igitambaro gisa n'icyatsi.

Abantu bari mu nama imbere, yabo hari amatasi bigaragara ko arimo icyayi, umugore uri ku ruhande yifubitse ikote risa n'umweru mo imbere harimo agapira gasa n'umukara, arasutse ndetse inyuma ye harimo undi mugore, ufite imashini ari kuyirebamo yambara amarinete ndetse n'ikote risa umukara, ku ruhande rwe hari umugabo nawe wambaye ikote risa n'umukara, ikigaragara cyo bari mu nama bakurikiye inama.

Abayobozi bari mu nama inyuma hari abakameramani bafite kamera ndetse abayobozi imbere yabo hari amazi ndetse bicaye ku ntebe zisa n'umukara, ndetse bafite mikrofone zibafasha kurangurura amajwi yabo, ndetse bafite n'amakayei n'amakaramu.

Umukobwa usutse ibisuko yazirikishije fimbo, afite imashini isa n'umukara imbere ye hari irangamuntu, ari gukora kuri mudasobwa imbere hari icupa rya nili ry'amazi.

Inzu z'ubucuruzi ziriho ibyapa bitandukanye byamamaza ibintu bakora hariho ibyapa bya ECO Bank Equity n'ibindi bitandukanye batangamo serivise, umuryango urafunguye imbere hariho ameza bigaragara ko ariho bakirira ababagana.

Urubuga rw'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, rufasha abarukoresha kugira ngo babe bakinjira babone amatangazo mashya cyangwa se bishyure imisoro babashe no kudekarara.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'ipanaro y'umuhondo yaje ku kigo aho ashaka serivise ndetse mo imbere harimo mugabo nawe wambaye umupira ujya gusa n'umuhondo uri gutanga serivise kuruhande rwe hari n'indi bafatanyije akazi.

Urubuga rufasha mu ihaha ndetse n'ibicuruzwa muri rusange, ni urubuga ruriho ifoto iriho kontineri ndetse zisize amabara atandukanye haba iz'umutuku niz'umuhondo ndetse ni urubuga rurimoho uburyo ushobora kurwinjiramo cyangwa se uburyo ushobora kurusohokamo.

Urubuga rw'urembo rukwereka inzira zo kuba wabyikorera ntawundi muntu ubigukoreye, inzira ya kane ikwereka ibuto ryo gukandaho kugira ngo ukomeze ukurikize amabwiriza.

Icyapa cya rura kiburira uwakirebye ko agomba kwitonda kuko hari abajura bagaragaye bakoresha foone, ashobora kuguhamagara akubwira ibintu bitandukanye ukwiye kwitonda mugihe bene abo bantu baguhamagaye. Hariho nimero wahamagara mu gihe ibyo ngibyo bikubayeho.

Umunara ufasha uwohereza n'uwakira gukominika binyuze muri senyale yoherezwa biciye kuri uno munara, bivuze ko uwakira agomba kuba yakiriye sinyale yaturutse ku wohereje ariko byaciye kuri uno munara.

Abasore babiri umwe wambaye ingofero y'umutuku ndetse n'umupira w'umutuku, aganira na mugenzi we wambaye umupira w'umweru, aho imbere bafite imashini ndetse na telefone na marinete n'ikaramu.

urwego rw'igihugu gishinzwe imiyoborere iki ni igishushanyo kigaragaza rogo y'urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere urwo bita Rwanda governance board

Urukuta rukwereka ko wamajije kwinjira muriyo page aho ushobora gushaka akazi cyangwa se ukanahitamo izindi serivise urwo rukuta ruriho.

Umugore wambaye ikoti risa n'umukara ufite imisatsi ya natirere y'umukara tsiri yicaye imbere ya mudasobwa ari ku rubuga rwitwa irembo imbere ye hari imashini ipuritinga.

Icyapa cy'ikigo, gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda kiriho telefone, ndetse n'amafaranga, muri telefoni handitsemo akanyenyeri magana inani urwego, ifite insanganyamatsiko igira iti: "tengamara na tivi eyi".

Icyapa kigaragaza uko wakwinjiza amakuru ya konti ya banki muri E-TAX, ni uburyo bwo kugira ngo ubashe kumenya ibibera mu kigo gishinzwe imisoro n'amahoro cy'u Rwanda.

Ni ishuri ariko harimo urubahu rusa ubururu, rutandukanya abanyeshuri kugira ngo batabangamirana igihe biga. Hari ibikapu by'abanyeshuri, hari n'abanyeshuri ubwabo ndetse na eyisi y'abanyeshuri.

Imyanya myiza irimo intebe zisa umukara yateguwe kwicarwamo.

Abantu bicaye muri Car free zone, ahari inyubako ndende ndetse n'ikirere cyiza, bari gukoresha enterineti baganira.

Umunara uriho amantene afasha mu kuba wakohereza cyangwa se kwakira sinyare ziturutse mu ngeri zitandukanye, ku buryo bifasha abakiriya babo kuba bakominikana bakoresheje amatelefone cyangwa se amaraputopu ndetse ku gipangu cy'umunara hariho icyapa cya Eyateri.

Abantu bari muri lisaci ku maraputopu yabo bari muri bisi bari mu rugendo sitili n'ubundi bari gukora risaci ku bintu bitegura kuza gukoresha.

Itangazo rimenyekanisha yuko habura iminsi itanu kugira ngo itariki ntarengwa yo kumenyekanisha no kwishyura avanse ya gatatu y'umusoro ku nyungu, ari ku itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi n'abiri, makumya, makumya na kane.

Umusore yambaye ikote risa na shokora yambaye n'agapfukamunwa k'umweru, naho undi yambaye ishati y'ubururu n'agapfukamunwa k'umukara, yambaye ai ekuteri zisa n'umweru bafite imashini mu ntoki zabo, ndetse bameze nkabategereje cyangwa se bakurikiye umushinga runaka.

Urubyiruko rwicaye imbere ya mudasobwa ndetse hari n'akabati gasan n'umuhondo gatandukanya abazikoresha kugira ngo babashe kugira umusaruro n'ubwisanzure mu nzu.

Umunara ufasha mu kwakira cyangwa se kohereza sinyari, bivuze ngo uwakiriye agomba kuba yafashe sinyale iturutse ku wohereje, nawe agakora ku rutsinga ku buryo mugenzi we nawe yakira fidibaka amuhaye gutyo komunikasiyo igakomeza.

Umunara ufasha uwohereza n'uwohererezwa ubutumbwa kuba bakora iyo kominikasiyo nta mbogamizi ibayeho kuko ifasha mu kuba yajyana amasinyare haba ku mpande zombi, bityo kominikasiyo ikaza inogeye buri umwe.

Umunara ukikijwe n'igipangu cy'ibyuma, umunara ufasha uwohereza ndetse n'uwakira amakuru kuba sinyare zaca ku munara kugira ngo zibashe gutegurwa neza, kominikasiyo igende neza.

Inzu irimo amatara menshi ndetse n'imitako myinshi itandukanye irimo intebe zisa n'umukara ndetse n'amezaza y'umweru bigaragara ko ari icyumba cyo gukoreramo inama, udushya, amaproje n'ibindi bitandukanye.

Ubukangurambaga bushya bw'irembo bubwira abakiliya kubyikorera, kugira ngo bajye babasha kwikorera serivisi zimwe na zimwe abantu babishyuza bo bazikorere kugira ngo babashe gusevinga igihe n'amafaranga.

Ipoto ririho inshinga z'amashanyarazi ndetse zifasha mukuba abahaturiye babona umuriro wo gucana mu nzu ndetse bibafasha mu kazi kabo ka buri munsi kugira ngo bagume bakore babona inyungu.

Ibigori bihinze mu isambu ndetse harimo n'ipoto ry'amashanyarazi, aho umuturage utuye hano hafi bimufasha kuba yabona umuriro kugira ngo bimufashe mu bikorwa bye bya buri munsi akazi ke kadapfa.

Ipoto ririho insinga z'amashanyarazi ndetse rifasha kugira ngo abahaturiye bose babashe kuba bagerwaho n'umuriro w'amashanyarazi kugira ngo babe bakora imirimo yabo nta kintu kibitambitse.

Abasore bambaye ingofero z'umuhondo ndetse n'amataburiya cyangwa se n'ibisarubeti bisa ubururu, bari guteranya akantu ku kandi kugira ngo babashe kuza gucyura umubyizi wabo.

Itara ryo ku kumuhanda, ruguru hari urugo, rufite igipangu cyiza, ndetse ibiti biri hanze y'igipangu birebire, bifasha abatuye mu rugo, kuba babona umwuka mwiza bahumeka.

Ipoto ririho insiga z'amashanyarazi bifasha abatuye aho hafi kubona umuriro Bakoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi ndetse ibiti bikikije ipoto ry'amashanyarazi.

Insinga z'amashanyarazi ziteranyije ku buryo ki abaturiye aho hafi babasha kuba babona umuriro ubafasha mu bikorwa bakora nko kuba imirimo yabo itabura umuriro ngo ikendere.

Urujya n'uruza mu mujyi aho abantu batembera mu mujyi ndetse hari n'amaduka hirya y'umuhanda hari simba ya Kimironko.

Insinga z'umuriro zifasha abahaturiye kugira ngo babashe kubona umuriro. Hirya hari icyapa cyamamaza inzoga ndetse na banki yamamazwa ku cyapa kindi n'ishami ryayo ndetse na resitora yiyamamaza hirya aho.

Ipoto iriho insinga z'amashanyarazi zifasha abaturiye aho hafi kuba babona umuriro bakoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi ndetse ku nyubako iri ku ruhande rwayo inyubako ifite amategura ndetse ku ruhande rwayo hari n'amadishe afasha abahatuye kureba tereviziyo.

Abaganga babiri bambaye amataburiya y'umweru ndetse ku ruhande hari utubati tugiye turimo impapuro kurundi ruhande haryamye umurwayi bigaragara ko yaje kwivuza cyangwa guhabwa serivise z'ubuvuzi.

Imodoka isa nk'umweru yanditseho imbangukira gutabara mumagambo atukuye ibataro bya CHUK ifite amatara hejuru atukuye ndetse iri ku kigo cyubatse mu buryo bugeretse ndetse ikigo gishobora kuba ari abitaro..

Amabati asa n'umutuku ku nzu ndende imeze nka sale ndetse ifite amadirishya maremare, ndetse n'umuryango mugari, uriho amascariye ndetse harimo ibiti by'umukindo mu busitani bwaho bigaragara ko ari sale yakira ibirori bitandukanye.

Umusekirite uri gufunga urugi rwo ku bitaro ndetse ku gipangu cy'ibitaro harimo akamenyetso k'umusaraba gatukura, ndetse hari imodoka isotse ya korora, isohotse mu bitaro ari nabwo umusekirite arimo afunga.

Umuryango uriho icyapa cyerekana ko ahongaho umuntu ufite ubumuga ashobora kuhanyura ubumuga bwo kutabasha kugenda.

Umuganga ufashe ku murwayi arimo amusuzuma umutima, muganga yambaye itaburiya y'umweru naho umurwayi yambaye ikanzu irimo umweru n'umukara ndetse yicaye ku ntebe y'umukara. Ku biro bya muganga hariho imashini y'umukara.

Ibitaro byubatse neza, hanze hari idarapo ry'u Rwanda, ndetse haparitse na ambiranse, n'amamodoka yandi, ku buryo bifasha umurwayi kuba yakihutishwa kwa muganga.

Umugore wambaye ijipo isa n'umutuku ndetse n'umupira w'umweru, afite agafurari mu ijosi rye gatukura, ndetse yambaye n'agapfukamunwa. Ari kubika igipapuro mu ishakoshi, ndetse hanze hari intebe nyinshi z'ibyuma, ndetse bigaragara ko ari kwa muganga.

Igipangu cy'ibitaro imbere kirigufungwa na sekirite nyuma yaho imodoka y'ivatiri ya korora isohokeyemo. Umusekirite ari gufunga igipangu, ruguru hari icyapa kerekana ko munsi hari ibitaro.

Imashini za mudasobwa, ziri ku meza, ndetse imbere hicaye abazikoresha, bicaye ku ntebe za sheze, ndetse abazikoresha ni abagore, ndetse imbere yabo bafite na suri ndetse na keyboard.

Imfungwa ziherekejwe n'abashinzwe umutekano kuri gereza, bambaye imyenda isa n'iroza ndetse n'abandi bambaye ijya gusa oranje, abashinzwe umutekano bambaye imyenda isa shokora ariko yererutse, bigaragara ko hari ku munsi wo kumananywa igicu ari cyiza, ndetse ku ruhande hari inzu isa n'umutuku umusekirite ahagararamo.

Imfungwa zicaye mu ntebe abicaye ku ntebe z'icyatsi ndetse n'abicaye ku mweru hirya hari umucamanza ndetse hino hari umwavoka cyangwa se umushinjacyaha ufite impapuro ndetse wambaye ikanzu isa n'umukara hagati harimo igitambaro cy'umweru.

Igipangu gisize amabara abiri ariryo umweru n'umukara ndetse hejuru hari icyapa cy'umukara cyanditseho amagambo agira ati igororero rya muganga koregishiono fasiliti.

Umugabo wambaye amapingu ufite uruhara, ndetse yambaye agapfukamunwa, ishati y'umweru iriho karuvati itukura, ndetse n'ikote risa umukara. Akikijwe n'abashinzwe umutekano bambaye amaga, ndetse bambaye antibare, ndetse bambaye bikwije impuzankano y'urwego bakorera.

Umugabo wambaye ikanzu y'umutuku ifite agatambaro imbere gasa ubururu, yambaye ingofero y'umukara ndetse n'amarinete, azamuye ikiganza cye cy'iburyo ikindi kiganza cy'ibumoso gifashe ku idarapo ry'u Rwanda arimo arahira, ndetse imbere ye hari umuyobozi wambaye ingofero isa n'umukara iriho udutambaro dusa n'umuhondo, yambaye ikanzu y'umutuku iriho agatambaro imbere k'ubururu.

Icyapa kigaragaza ko Fulgence Kayishema ku wo ufite ubwanwa ndetse uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri kuri mirongo itanu yafunzwe ku itariki makumyabiri n'enye z'ukwa gatanu bibiri na makumyabiri na gatatu.

Umugabo uri hagati y'imyaka makumya n'itanu kuri mirongo itanu n'itanu yambaye karuvati n'ishati y'umweru irimo uburongo ndetse n'ikote risa n'umutuku imbere rifitemo ibara ry'umukara.

Amakarito menshi asa na shokora yashyizwe mu kabati ndetse buri karito igiye iriho aderese hariho intara, akarere, umurenge w'umuyobozi ndetse n'inama rusange n'urukiko gacaca.

Abaturage bari mu nama uri kuvuga ijambo arahagaze barindwi bicaye ku ntebe n'ameza imbere yabo, ku meza hariho ibitabo ndetse hari n'abandi baturage bicaye hasi, indorerezi ziri kumva ibiri kubera mu nama.

Umugabo, uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri n'itanu kuri mirongo itanu, yambaye ishati irimo uburongo, ndetse na karuvate y'ubururu, akaba yambaye ikoti ry'umutuku, ririmo umweru imbere.

Umugabo wambaye amarinete n'ikote ry'ubururu, yambaye na karuvate ndetse n'ishati y'umweru, ataganye n'abamama babiri bafite imisatsi y'imikara tsiri, umwe wambaye amarinetse ndetse n'undi wambaye ikote risa n'umweru.

Umugabo uri mu kigero k'imyaka mirongo ine n'itanu ku myaka mirongo itandatu wambaye umupira w'umutuku ndetse n'ishati irimo imbere isa na move.

Imfungwa nyinshi zambaye imyenda isa ndetse n'inkweto zifunguye, hirya hari ucunze umutekano wambaye agapfukamunwa ndetse ufite imbunda ku ruhande rwe, imfungwa zisa nkaho zikurikiye umuntu uri kuvuga ijambo imbere yazo.

Igipamgu kirekire cyane gisize irange mu nkuta zayo ry'umweru ndetse gifite igipangu kigari bigaragara ko ari gereza ibamo imfungwa ndetse n'abagororwa.

Umugore uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri kuri mirongo itanu nitanu yambaye ingofero y'umukara izengurukijweho n'agatambaro k'umuhondo yambaye ikanzu itukura imbere iriho igitambaro cy'umweru.

Infungwa zambaye imyenda isanditse zigiye zambaye inkweto zifunguye n'abandi bambaye bote, bari guca ku rukuta rurerure bigaragara ko ari gereza bagana ku gipangu cyaho aho basubiyemo imbere bari bavuye mu mirimo.

Abaturage bitwikiriye imitaka kugira ngo bikinge izuba babashe gukurikira ikiganiro mu nama bari bajemo bicaye hasi, hari n'abandi bari hirya mu nzu bugamye kuri bariko bari gukurikira inama.

Umugabo ufite ubwanwa n'umusatsi mukeya uri mu kigero cy'imyaka makumya nitanu kuri mirongo itanu n'tanu yambaye ishati irimo imirongo y'ubururu, ndetse na karuvati itukuye byijimye, ndetse n'ikanzu y'umutuku imbere hari igitambaro cy'umweru.

Umupolisi yambaye impuzankano ye y'akazi, inyuma handitseho polisi, afite akamashini mu ntoki ze ndetse n'uruhushya rw'umuyobozi w'ikinyabiziga. Imbere ye hari imodoka ndetse n'inyuma y'iyo modoka hari ibindi binyabiziga

Umuporisi w'umukobwa imbere hari ikona, inyuma ye hari imodoka ya polisi, hari n'abantu hafi aho ndetse ni ku ishami rya muhima aho bita zigama si esesi.

Abapolisi bahagaze imbere y'imodoka, ndetse hagati y'imodoka n'indi hari gucamo amakona afite uburebure bungana hagati yayo, ndetse hirya hari abantu bari kureba ibiri kuhabera hari n'ibyapa hirya ndetse n'ibiti byinshi bibakikije.

Imodoka ya polisi kuruhande rwayo hari igikamyo ndetse inyuma y'imodoka ya polisi hari abantu batatu. Umuntu umwe yambaye isarubeti y'akazi, abandi babiri umwe yambaye ishati nundi yambaye ishati y'amaboko magufi.

Igikoresho gifasha mu kuzimya inkongi y'umuriro yatatse inzu, igikoresho gisa umutuku ndetse n'umuhondo imbere ndetse ni igikoresho gishobora kwifashishwa mu kuba hazimwa inkongi yatatse inzu kugira ngo itaza kugira abo ihitana.

Inzego z'ibyuma zifasha umutekenisiye kurira ahantu harehare kugirango abashe kuba yakora akazi ke. Iruhande hari imodoka isa n'umukara ifunguye umuryango ndetse hirya na ho hari inzu y'ubucuruzi ifunguye, hanze hari kandagira ukarabe isa nk'ubururu.

Umupolisi wambaye impuzankano, imbere ye hari umumotari wambaye kasike y'umuhondo, ndetse n'ijire y'umuhondo utwaye moto itukura, imbere y'umumotari hari imodoka isize ibara ry'ivu. Ndetse hirya hari inzu igeretse y'ubucuruzi.

Ibikoresho bifasha mu kuzimya inkongi yatatse inzu mu guhe habayeho icyago cyo kuba inzu yatatswe n'inkongi y'umuriro , bisa n'ibara ry'umutuku ndetse ahantu biteye , biteye ku gikuta gisa n'umweru hasi hari amakaro.

Umugore wambaye igitenge n'ishanete ndetse afite imisatsi ta natirere, ari kumwe n'abana be babiri bambaye amakote ndetse n'amashati y'umweru ka karuvate, ndetse umwana we muto amwicaye ku bibero.

Abayobozi bicaye ku ntebe imbere yabo hari ameza ateretseho amadarapo y'ibihugu bahagarariye ndetse n'amacupa y'amazi imbere yabo n'impapuro n'amakaramu biteguye gusinya amasezerano.

Umugore wambaye marinete y'umukara n'iherena risa nka zahabu, ufite imisatsi y'umukara tsiri, wambaye ikote ririmo uburongo bw'umukara. Imbere ye hari amazi y'inyange, ari kuvugira ku ndangururamajwi.

Umugabo ufite impapuro mu ntoki, ahagaze imbere y'insakazamajwi ye yiyamamaza, aho hirya ku ruhande rwe rw'ibumoso ahagaze umugabo wambaye rinete ndetse nawe afite igipapuro mu ntoki cy'umweru, yambaye ishati y'ubururu n'inkweto z'umukara.

Umugabo wambaye amarinete uri mukigero cy'imyaka makumyabiri n'itanu kuri mirongo itanu, imbere ye hari indangururamajwi ndetse yambaye ikote ry'ubururu na karuvate y'ubururu, ku ishati y' umweru.

Umugabo uri mu kigero cy'imyaka mirongo itatu n'itanu kuri mirongo irindwi, wambaye kositime isa n'ubururu uri imbere ya mikorofone afite amazi imbere ye y'inyange yambaye amarinete.

Abagabo batatu bari mu kigero cy'imyaka mirongo itatu kuri mirongo irindwi n'itanu babiri muri bo bambaye amarinete umwe ntayo yambaye, babiri muri bo nabo bambaye baji zisa n'ubururu undi ntayo yambaye ndetse baraseka bishimye.

Nyakubahwa wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ari muri kampene yo kwiyamamaza kuyobora u Rwanda mu mwaka wa 2024, aho bari bafite insanganyamatsiko ivuga ngo "Tora Kagame Paul ku gipfunsi".

Abagore ndetse n'abagabo, bahagaze imbere ya mikorofone, ikiganza cy'iburyo kizamuye hejuru, ndetse icy'ibumoso gifashe ku idarapo ry'igihugu, barimo barahira imbere y'umukuru w'igihugu.

Umugore wambaye ikote risa n'umweru harimo uburabo bwijimye yambaye linete zisa n'umweru, afite umusatsi wumukara tsiri ndetse yambaye ishanete iriho utubuye turabagirana.

Umugore wambaye ishati y'umweru n'igitenge cy'amabara, ufite umusatsi w'umukara tsiri yamwenyuye ndetse yambaye n'agakomo kukiganza cy'iwe ndetse n'impeta.

Umugore n'umugabo bafatanyije guterura icyapa cyanditseho wodi vijoni, aho baba barihaye intego yo kuzuzuza mu gihe runaka ndetse ikaba igomba kuzagenzwaho, umugabo yambaye kositimu y'umukara naho umugore yambaye ikanzu y'umukara.

Abayobozi bashya barimo barahira bafashe ku idarapo ry'u Rwanda ndetse n'amamikorofone imbere yabo bari guhiga imihigo n'uburyo bazitwara mu kuyobora neza inshingano bahawe.

Umugore utagaragara mu isura ufite imisatsi y'umukara tsiriri wambaye shanetsi isa na zahabu yambaye ishati y'umweru afite ikaramo mu ntoki n'urupapuro, ku meza ye hariho amadocument menshi, amakaye, ibitabo asa n'umuntu uri mu biro ndetse ari gukora akazi ashinzwe.

Umugore wambaye ikanzu isa na move, irimo uburabo busa n'umweru, afite umusatsi w'umukara tsiri, ndetse yicaye ku ntebe y'umukara, imbere ye hari mikorofone nyinshi z'abanyamakuru, ndetse hirya hari idarapo ry'ikirango cy'u Rwanda.

Umugabo wambaye ikote n'ishati y'umweru na karuvate ikoti risa n'ubururu ndetse n'ipantaro y'ubururu ari kumwe n'abagore umwe ukenyeye ndetsen'undi wambaye ikote risa n'umukara wambaye amarinete ufite telefone mu ntoki ze.

Bisi itwara abagenzi isa n'icyatsi, yanditseho ritiko rimitedi, iri kwaka ibara ry'ubururu ndetse ku ruhande yaka udutara twinshi tw'icunga rihishije.

Umunyonzi wambaye ijire isa n'icyatsi n'ipantaro y'icyatsi, atwaye igare ndetse mu gahanda k'abanyamaguru hari gutambuka abanyamaguru ndetse haparitse n'andi magare, bigaragara ko ari urujya n'uruza rw'abantu.

Umunyonzi yambaye ijire y'icyati ari kubisikana na ritco nayo iri mu muhanda itwaye abagenzi umunyonzi asatiriye agahanda k'abanyamaguru gato ari kubisikana nayo.

Umuhanda mugari aho buri gisate gifite ibice bibiri abayobozi banyuramo mu byerekezo bimwe, umumotari ndetse n'umuyobozi w'imodoka bari guca muri uwo muhanda bagana iyo bagiye.

Ikamyo itwara imizigo iparitse imbere y'imifuka y'ibirayi ndetse imbere yaho hari n'ubundi abashoferi bari gupanga uburyo ki bagomba gutwara imizigo mu kamyo.

Umuhanda mugari urimo ibisate bibiri buri gisate gifite ibice bibiri cyo kunyurwamo, aharimo imodoka zitandukanye n'izitwara abagenzi n'abamotari ndetse n'imodoka zitwaye imizigo ndetse narifani nayo itwaye imizigo mu byerekezo bitandukanye.

Imodoka iri mu bwoko bwa yutongo itwara abagenzi, bamwe bicaye ndetse abandi bahagaze, iri mu muhanda iri gutwara abagenzi, ndetse n'iya kampani ya jari taransipoti.

Abamotari baparitse bambaye kasike zifite amabara atandukanye, harimo umutuku ndetse n'umuhondo batwaye moto zitukura, ndetse bambaye amajire asa n'umuhondo, hirya hari imodoka y'umweru ya pikapu irimo iza ibagana.

Ikamyo iri mu bwoko bwa sikaniya, iri mu muhanda, ndetse ku ruhande hari umunyonzi uri kubisikana na cyo, uhetse mugenzi we, ndetse n'umumotari na we uri kubisikana n'iyo kamyo, n'abanyamaguru ku ruhande rw'ikamyo, batambuka mu muhanda w'abanyamaguru.

Umugabo wambaye isarubeti y'akazi isa nubururu, ahagaze imbere ya bisi itwara abagenzi yanditseho royo egisiperesi harimo shoferi n'abagenzi.

Imodoka itwara abagenzi iri mu bwoko bwa yundayi iparitse mu zindi modoka nazo zutwara abagenzi, gusa hari imodoka irimo ibisikana nazo yo ya pikapu itwawe n'umuntu umwe ntago yo itwara abagenzi.

Imodoka ya hilisi ipakiye imbaho inyuma hari umusore uri kuyobora shoferi amubwira icyerekezo acamo n'abamotari nabo bari kujya mu cyerekezo gikomeza aho imodoka y'ikamyo itwaye peteroli yerekeza.

Umuhanda urimo imodoka zitwaye imizigo harimo rifani itwaye imizigo yanditseho mayidi ini rwanda isa n'ubururu imbere hari igikamyo gisa n'umutuku gitwaye umucanga ndetse ruguru y'umuhanda hari farumasi icuruza imiti munsi hari parikingi irimo n'imodoka.

Icyapa cya mitsingi kikwereka ko ruguru ku ma esikariye uzamutse hari akabari ndetse hirya y'umuhanda hari igikamyo kiri kujya mu muhanda gisa n'umweru kirekire ndetse ubona ko cyagenewe gutwara imizigo.

Umuhanda mugari, aho buri gisate gifite ibisate bibiri, aho hanyurwamo n'imodoka zigiye mu byerekezo bimwe, aha umumotari n'umuyobozi w'imodoka batwaye bajya mu cyerekezo kimwe.

Umugabo wambaye bote ndetse wambaye akajiri gasa n'icyatsi ari gutambuka imbere y'igikamyo gitwara imizigo kizirikishijwe n'imugozi isa na oranje ndetse gifite shitingi isa ubururu.

Imodoka iri mu bwoko bwa dina itwaye imizigo hejuru harimo umutandiboyi uri gukurikirana ibyuma birimo hejuru hari umunyamaguru utambutse ku ruhande rw'iyo dina iri mu muhanda.

Motari yambaye kasike itukura ndetse atwaye moto itukura yambaye ijile y'umuhondo, arimo akata ikorosi yitegura gukomeza urugendo rwe ndetse kuruhande aparitse indi moto, kuruhande rw'iyo moto hari inzu z'ubucuruzi.

Imodoka itwara imizigo itwawe na shoferi inyuma mumwanya w'imizigo harimo umugabo wambaye ingofero irimo amabara icyatsi, umuhondo n'umutuku ndetse n'umukara kuruhande rubisikairwamo harimo umumotari uhetse umugenzi ufite ipine ndetse kuru ruhande rw'ikamyo kugahanda k'abanyamaguru harimo umugenzi.

Imodoka itwaye imizigo iri mu bwoko bwa dina yanditseho dayihatsu inyuma ikurikiwe na lifani iriho nimero za telefone ndetse isa n'ubururu ndetse imodoka iri imbere itwaye imizigo iriho shitingi nayo isa ubururu.

Ikamyo iri mu bwoko bwa sikaniya iri kubisikana n'umunyozi utwye umugenzi. Umunyonzi yambaye umupira usa n'umuhondo naho umugenzi atwaye yambaye umupira usa n'ubururu. Umugenzi afite agakapu k'umweru ndetse yambaye n'inkweto zirimo umutuku.

Umumotari yicaye kuri moto inyuma hariho umufuka w'umweru urimo imizigo, inyuma yaho hari umukarani wambaye imyenda isa n'ubururu yakazi n'inkweto zicyatsi, ari kuzirika wa muzigo neza kuri moto kugira ngo ufate utaza kuba wagwa.

Imodoka ya hiligisi ihagaze hirya y'umuhanda ku gipangu iri gukoreshwa ipine ry'inyuma kuko ryagize ikibazo, umukanishi yarikuyemo ndetse na nyirayo ahagaze inyuma abanyamaguru bari gutambuka ku ruhande rundi, ndetse hirya urabona ko hari inzu igeretse ndetse n'umuhanda aho ubucuruzi bukomeza.

Inzu ndende igeretse, ikikijwe n'igipangu cyayo, hejuru hari amatara ndetse ubona ko hari ikirere cyiza ndetse n'ibyatsi n'ibiti byiza bikikije ino nzu kugira ngo bibe byayiha umwuka ndetse bitume n'uhagana abona hagaragara neza, ni ahantu hatagendwa n'imodoka, hari abanyamaguru gusa.

Abantu bicaye mu muhanda aho imodoka zitanyura bicaye ku ntebe y'ibiti hari abategarugori babiri barigutambuka ku ruhande rwaho rw'ibumoso.

Abana babiri batwaye amagare ndetse n'umusore uri inyuma nawe utwaye igare, muri kari furi zone ahantu hari ibiti byiza ndetse n'amatara hejuru batwaye amagare asa umuhondo.

Ikibuga cya basikete gikinirwamo n'abakinnyi ndetse inyuma hari ibiti bitanga umwuka mwiza mu kibuga, ku bakinnyi harimo n'ipoto ijyana umuriro w'amashanyarazi mu bantu bahaturiye, ndetse kugirango n'ikibuga kibashe kwaka mu gihe ari amasaha y'ijoro.

Intebe zisa n'icyatsi zegeranye ziciyemo ibice bibiri hagati hari inzira isize n'ibara ry'umutuku hasi ku buryo uwicaye ku ntebe ashobora guca muri iyo nzira asohoka muri iryo teraniro.

Ikibuga gikinirwamo umukino wa basikete ku ruhande rwo hirya kure hari abantu bashinzwe amasuku bambaye amajire asa n'icyatsi ndetse bari begereye igipangu cy'ahantu hakinirwa basikete, ikibuga gisa n'umutuku gusa harimo icyatsi mo hagati.

Umuhanda usa n'icyatsi ku ruhande hari ibiti biteye, ndetse ku ruhande rw'ibumoso nanone hari kaburimbo iri gucamo ibinyabiziga. Umuhanda usa n'icyatsi ukorerwamo siporo, ndetse ku ruhande rundi iburyo hari imodoka ziparitse kuri urwo ruhande, gusa hari n'ibiti byiza bifasha abatuye hafi kuba bahumeka umwuka mwiza, ndetse bagakora siporo.

Ikibuga kirimo tapi isa n'icyatsi hirya hari ibiti byiza bisa icyatsi bifasha abari mu kibuga kuba babona umwuka mwiza, ndetse hari ipoto rifite icyuma gisa n'umweru ndetse n'inshundura isa umweru hirya hari imodoka zirimo zigenda ndetse n'abantu bari gukora urujya n'uruza inyuma y'ikibuga.

Ikibuga gikinirwamo Kiriketi ndetse kizengurutseho ibara ridasa n'ibara ry'icyatsi mu kibuga, ruguru hariho intebe zicarwaho n'abaje gukurikirana umukino.

Ikibuga cyo gukiniramo umukino wa tenisi ndetse naho abafana bashobora kwicara mu gihe bakurikiye umukino wabo ndetse n'ama esikariye abafasha kugira ngo bazamuke hejuru kugira ngo babashe kuwukurikira.

Imyanya yicarwamo n'abaje gukurikira ibiri kubera imbere ndetse n'imyanya iteye ku buryo uri inyuma ataza gukingirizwa n'uri imbere, ni imyanya ishobora kwakira abantu benshi batandukanye bakaza gukurikira ibyabereye hano hantu.

Icyapa kereka umuyobozi w'ikinyabiziga yuko hari ikorosi ridasanzwe akwiye kugabanya umuvuduko, akitonda akagenda gake paka akomeje mu rugendo rwe.

Icyapa kereka umuyobozi w'ikinyabiziga yuko umuhanda urakata ikorosi kugira ngo ukomeze ugende bitegure umuyobozi kugabanya umuvuduko atangire yitegure gukatira iryo korosi.

Icyapa cyereka umuyobozi w'ikinyabiziga yuko iburyo ariho umuhanda urakomereza kandi akabibona atarahagera kugira ngo yitegure kuba yahita yerekeza muri icyo cyerekezo.

Icyapa kigaragaza ko imdoka yawe ishobora gukuba amapine agashiraho cyangwa akishushanya mu muhanda igihe utwaye kubera ubunyerere bw'umuhanda. Icyapa cyikwereka ko ugomba kwitonda.

Icyapa kigaragaza ko aho hari akayira kanyurwa n'abanyamaguru gusa ndetse ni icyapa kiriho umuntu atambuka mu nzira yabugenewe ndetse icyapa kizengurutsweho n'ibara ritukura.

Icyapa kigaragariza umuyobozi w'ikinyabiziga, yuko imbere umuhanda unyerera ndetse akwiye kwitonda kugira ngo imodoka ye ataza gukuba amapine, bityo bikaza kumuviramo kuba yakora agisida.

Icyaka kiriho umweru ndetse ndetse kizendurutseho n'ibara risa n'umutuku, hagati harimo ibiziga bitatu; icy' umutuku, w'umuhondo, n'icyatsi, kikwereka ko imbere hari feruje, ukwiye kwitonda ukagenda gake.

Inzu y'ubucuruzi iri ku ruhande rw'iburyo ahatangirwa serivisi zitandukanye nk'iz'irembo, iza banki, izo kuba wabitsa ukanabikuza ukoresheje telefone n'izindi zitandukanye, hepfo y'umuhanda hari ibinyabiziga ndetse n'icyapa kikwereka ko hari abantu bagiye kwambuka, niba utwaye ikinyabiziga kwitonda cg se kugenda gake.

Icyapa kerekena ko umuhanda ufunze bitemewe kuba wakata ujya iburyo bwawe, ahubwo umuhanda uhagarikiwe ahongaho utemerewe kuharenga.

Icyapa cy'umweru cyanditseho n'amagambo y'umukara tsiri cyanditseho kaga ijana na mirongo inani n'icyenda sitiriti. Ni icyapa kikuyobora ku rugo runaka cyangwa se ku muhanda wari ukeneye kugeraho kugira ngo ubashe guhura n'abantu cyangwa se n'ahantu washakaga kumenya.

Icyapa kigaragaza ko imbere hari Giheke sector, ukomeje umuhanda usa umukara urimo umurongo urombereje ushobora kugera Giheke.

Inzu y'umucuruzi, ufite serivise zitandukanye; hariho gufotoza, serivise z'irembo, ndetse no kuba yatanga amayinite na serivise zijyanye n'ibikuza, n'ibitsa ry'amafanga ku matelefone. Imbere hari icyapa kerekana ko muri ako gahanda hemerewe kunyurwa n'abanyamaguru.

Ibyapa biri imbere bigaragaza ko n'uba ugeze imbere urenze icyo cyapa uraba ugeze muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo, ubwo iyo wakirerengagije ushobora kuyoba.

Icyapa hisa n'icyatsi cyanditseho Gicumbi disitirikiti, ndetse n'ikindi cy'umweru cyanditseho cyanditseho n'amagambo asa n'umukara cyanditseho welikame tu de repubulika ofu Rwanda ndetse hirya ku muhanda hari ikamyo ipakiye imizigo bigaragara ko hano ari ku mupakawinjira mu gihugu cy' u Rwanda.

Icyapa kigaragaza ko umuhanda mugari ukomeza ufite agahanda k'ibumoso kawushamikiyeho ukwiye kwitonda cyangwa se ukagira amakenga z'uko hari ikinyabiaiga gishobora kumanukiraho utiteguye.

Icyapa cyerekana ko imbere hari dodani ukwiye kwitonda kugirango imodoka idashika ndetse inyuma hari imodoka iparitse y'ivatiri ya corola iparitse imbere y'inyubako igeretse iriho n'umurindankuba.

Ikigo cy'imari gishinzwe kubika kikabikira abaturage amafaranga yabo mu buryo bwiza kandi bwizewe bufite umutekano.

Icyapa kigaragaza ko imbere gato hari aho abanyamaguru bambukira, ukwiye kugenda gake niba utwaye ikinyabiziga, kugira ngo abagenda n'amaguru babashe kuza kubona uburyo ki bagomba kuza kwambuka.

Ibyapa bisa n'umweru icyambere cyanditseho ke eni gatatu eve icya kabiri cyanditseho ke eni mirongo itatu sitiriti ni ibyapa bigaragariza umuntu uhagaze umuhanda ashobora kunyura kugira ngo agere ku icyerekezo yifuje.

Icyapa kigaragaza ko imbere ari mu nsisiro, aho muzenguruka kugira ngo mukomeze mu byerekezo mugiye kunyuramo, ibi bifasha kugira ngo biri imodoka icyerekezo iturutsemo ize kugabanya umuvuduko, bityo zize kugendera hamwe.

Icyapa kigaragaza ko utambitse ibumoso hari umuhanda ariko uhita uhagarara udakomeza bivuze ko ukwiye kwitonda mbere yo gu gukata ukamenya ko utari bukomeze ngo ugere wenda aho wumvaga ko ushobora kugera ushobora kuhita ukatira hafi ukagaruka.

Umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga, ruguru haparitse ivatiri ndetse n'indi ravafo gusa ku ruhande hacaho abanyamaguru basanzwe mu nzira yabo, mu muhanda hari gucamo umumotari.

Inzu ngari cyane zubatse mu mwanya umwe, ndetse zimwe muri zo zirageretse, izindi hejuru zifiteho amavandarateri afasha kugira ngo inzu zitaza gushyuha mo imbere, bigaragara ko ari inganda zegeranye mu cyanya cyazo.

Inzu igeretse isize irangi ry'umweru, iry'ubururu bwijimye, n'umuhondo, hanze hari ibiti ndetse no mo imbere harimo ibiti, hanze hari kaburimbo ifasha abazenguruka inyuma y'inzu kuba bakoresha umuhanda biboroheye.

Inzu ifite igipangu kiriho amatara yaka, ndetse ni inzu igeretse, isize mu ibara ry'umuhondo, ndetse n'umweru ndetse n'irindi bara rijya gusa ubururu. Iri kugipangu

Inzu ya etage y'ubucuruzi hanze kuri parikingi haparitse imodoka ndetse na moto bigaragara ko hari urujya n'uruza rw'abantu benshi bari gukora ubucuruzi ndetse biteguye kubona inyungu.

inzu igeretse gatanu yubatse neza hejuru hari ibigega bifasha mu kubika amazi akoreshwa muri ino nzu ndetse inzu isize amabara asa n'ubururu ndetse nahamwe hasa n'ivu n'ahandi hasa na shokora n'igice kinini gisa umweru. ni inzu ya paritoma ifasha abayituyemo kuba babaho mu buryo bwiza

Ibiti biteye mu mbuga aho bifasha abahanyura cyangwa se abahicara cyane ko hirya kuru ruhande rw'ibumoso hicaye abasore babiri barimo baganira ibiti rero bifasha ababyegereye kuba babona umwuka mwiza bahumeka.

Inzu igeretse yubatse neza ifite imitako ndetse ifite n'amatara ku mpande zose haba ku gipangu, ifite igipangu gisa umukara ndetse yubatse neza ku buryo amazi amanuka ku gisenge ahita agera mu kigega inyuma.

Inzu igeretse inshuro nyinshi bisa nk'aho ari aparitoma ari inzu abantu bakodesha batuyemo, ari benshi ariko batabana buri wese aba atuye mu nzu ye mu nzu ye gusa ikubiye mu nzu imwe nyine ariyo iba inageretse ifite urupangu rurerure n'amatara menshi ku gipangu.

Motari atwaye moto isa n'umutuku ndetse yambaye na kasike isa n'umutuku. Motari yambaye ikote risa n'umukara rifite ingofero isa n'ivu ndetse ari mu muhanda aho hari inzu z'ubucuruzi zitandukanye hari umuhanda wamabuye.

Imiturire y'abantu batuye i kigali harimo inzu zitandukanye haba amakonoshi, haba n'inzu zigeretse, gusa hagiye higanjemo n'ibiti bifasha abatuye ahongaho kuba babona umwuka bahumeka.

Inzu igeretse irimo resitobare igaragaza ko bateka, bakanagemura mu makwe ndetse bagira n'ibyo kunywa ndetse hanze haparitse amamodoka abiri.

Inzu igeretse isize ibara ry'umuhondo ifite ibirahuri byiza ndetse n'amavase, kuri bariko yayo nziza cyane ifite igipangu cyiza cy'ibibaho byanditseho siteyi apatimentizi inzu nziza.

Ibinyabiziga bitandukanye mu muhanda harimo imodoka, amamoto, bisi zitwara abagenzi ndetse ku matara ari ku muhanda hariho ibyapa byamamaza ndetse izo modoka ziri muri kaburimbo hagati mu muhanda harimo ijambo giporoso.

Inzu zigeretse, zubatse hejuru, ndetse n'ibiti birebire bikikije inzu zigeretse, munsi hubatse inzu za kadasitere zikikijwe n'ibipangu byazo, ndetse hari n'imirima ku ruhande ihinzemo, ifasha abayihinga kugira ngo babone ibyo barya.

Imodoka iparitse mu biti byiza by'icyatsi, biri natirere byinshi ndetse ku ruhande hari inzu, kuri bariko y'inzu hariho intebe ndetse n'ameza, hagati handitsemo ngo "parike y'inyoni".

Imodoka ebyiri ziparitse munsi yinyubako ebyiri ndende zegeranye hagati mu ifoto handitsemo ijambo remera, ndetse hari n'umumotari uhetse umugenzi w'umukobwa.

Imodoka ijya gusa n'umukara iparitse mu mbuga irimo umuhanda w'amabuye ndetse hirya hari umuzungu wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro n'umweru ndetse n'inkweto zijya gusamo umweru ahetse n'igikapu gisa ubururu ndetse hari inzu iri kuruhande y'ubugeni.

Imirongo isa n'umweru, isize hasi muri kaburimbo, ifasha abanyamaguru kuba bakwambuka bava ku gisate kimwe cy'umuhanda bajya ku kindi, mu gahanda k'abanyamaguru, hirya hari inyubako isa n'umweru y'ubucuruzi ndetse mu muhanda hari urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'ibinyabiziga.

Imodoka itwara imizigo mu muhanda, ndetse irenze gato ku ikorosi rizamuka ruguru. Hirya hari ibiti bisa n'icyatsi, ndetse ubona ko ari ibiti bifasha mu gutanga umwuka mwiza.

Icyapa cyerekana ko bitemewe kuhaparika kiri ku muhanda ndetse hirya hari imodoka imajije kurenga itwara imizigo, naho hino hari abanyamaguru bari mu muhanda w'abanyamaguru barimo bagenda.

Umurongo w'abanyamaguru bambukiraho hirya hari sitasiyo ya di centere hirya y'iyo sitasiyo hakaba hari inyubako igeretse inshuro eshatu.

Feruje mu muhanda aho zifasha abayobozi b'ibinyabiziga kubayobora kugira ngo hataza kuboneka ambutiyaje kugira ngo habe hari izibanza zigende n'izindi zikurikire, hari ibinyabiziga bitandukanye abanyonzi, abamotari ndetse n'abayobozi b'imodoka.

Imodoka ziri mu muhanda zitwawe n'abayobozi ndetse n'abamotari nabo bayoboye ibinyabiziga byabo, batwaye abagenzi, imihanda mwiza isukuye ndetse ikikijwe n'ibiti by'imikindo byiza.

Urujya n'uruza mu mihanda ya Kigali, harimo abamotari batandukanye bahetse abagenzi, ndetse n'imodoka ziri kujya mu byerekezo bitandukanye, hari rompuwe, aho hari feruje yemerera imodoka zimwe gutambuka, izindi zikaba zahagaze umwanya muto, zitegereje iza mbere, gusa na zo zikaza kugenda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umuronko ucagaguye usa umuhondo utandukanya ibihande byombi. Hirya hari ibinyabiziga, hari imodoka ndetse na moto, n'abanyamaguru, ndetse n'imiturirwa aho hafi, ibipangu n'amazu ageretse.

Imodoka ya kwasiteri itwara abagenzi, igeze aho abanyamaguru bambukira umuhanda bajya ku kindi gisate cy'umuhanda, ndetse n'izindi modoka ku rundi ruhande, n'imodoka itwara imizig, ku rundi ruhande rw'aho imodoka itwara abagenzi igeze.

Ikiraro aho imodoka zica hejuru n'izindi zigaca munsi ndetse hari igikamyo kiri guca munsi y'icyo kiraro, aho gipakiye imizigo ndetse n'abamotari bagaca munsi y'kiraro ariko batwaye abagenzi n'abanyamaguru, ku rundi ruhande baca mu nzira yabagenewe.

Umuhanda w'abanyamaguru uteganye n'ahaca amazi yo muri kaburimbo.

Ikiraro gicibwaho n'imodoka zica hejuru ndetse n'izindi zo munsi, hirya hari icyapa kikwereka ko utagomba kuhaparika, ndetse hari n'ikindi gisize ibara ry'icyatsi cyanditseho n'amagambo y'umweru, kikwereka ko ntugukomeza ruguru uraba ugiye i Nyamata, ndetse ntukomeza hepfo uraba ugiye ku kibuga cy'indege.

Umuhanda urimo abamotari batwaye abagenzi ndetse ku ruhande hari umuhanda w'abanyamaguru, urimo ugendwamo n'abanyamaguru bagenda ndetse imbere hari sitasiyo icuruza esanse ndetse n'amazutu.

Umuhanda w'igitaka ,winjira mu muhanda wa kaburimbo, ndetse kuruhande hari, abanyamaguru barimo bagenda n'umumotari inyuma uri kwinjira mu muhanda ariko aturutse mu muhanda w'igitaka n'indi modoka nayo irikwinjira muri kaburimbo ariko iturutse muwigitaka wo hirya.

Moto zirimo zizenguruka rompuwe, zihetse abagenzi ndetse hari n'ibyapa bimanitse ku matara byamamaza ama purodagiti atandukanye, ndetse n'imodoka y'igikamyo itwara imizigo, nayo iriho ibyapa byamamaza ibicuruzwa byabo.

Imodoka zitwara imizigo, ziri mu muhanda ndetse kuhande hari moto ziri gutambukaho, imodoka zifite shitingi hejuru yazo z'amabara atandukanye hari izifite shitingi ry'ibara ry'icyatsi ndetse ku ruhande hari n'ibiti bifasha mu mihumekere y'abahatuye.

Imirongo ishushanyije mu muhanda muri kaburimbo rw'agati kugira ngo igaragarize abakoresha uwo muhanda y'uko aho ngaho ari mu izingiro ryaho muri guhurira n'abandi bavuye mu byerekezo bitandukanye.

Umunyonzi wicaye ku igare rye wambaye bodaboda z'umuhondo, uri ku kiraro ni ku masaha akuze ya n'ijoro, ari ku kiraro cya Kicukiro, amatara ari kwaka ndetse umunyonzi yambaye umupira usa umukara.

Imodoka zemerewe na feruje kuba zatambuka zibonye ibara ry'icyatsi ruguru zigaca ku murongo y'umuhondo igaragaza ko ahongaho hari feruje.

Umuhanda mugari ufite ibisate bibiri bitandukanye, buri gisate gifite umurongo ucagaguye aho imodoka zishobora gucamo zisanzuye byemewe no kubisikanaho.

Ikiraro kiri kunyurwaho n'imodoka zo hejuru ndetse nizo hasi, ku ruhande hari icyapa cyanditseho ko aho hafi batahaparika.

Umunyonzi aranyonga igare akomeza imbere, aca ku cyapa gihagararwaho na bisi zitwaye abagenzi zibasiga ku muhanda, ahetse igikapu cy'umukara, yambaye isogisi ry'umweru, n'inkweto z'umukara, n'ishati isa n'umuhondo.

Mu muhanda ahari imirongo yagenewe abanyamaguru bambukiraho ndetse hirya hari umunyamaguru uri kugendera mu muhanda w'abanyamaguru ndetse n'icyuma gishinzwe gufotora abakoze amakosa mu muhanda ndetse na feu rouge zigena niba yoba umuyobozi w'ikinyabiziga yemerewe gutambuka.

Imodoka ya kwasiteri itwaye abagenzi irimo ibisikana n'abamotari bahetse abagenzi bari mu kazi, ndetse hirya hari inzu ya etage igeretse kabiri. Irimo inzu z'ubucuruzi, irimo beti ndetse hanze hari parikingi, haparitse ibinyabiziga ubona ko hari urujya n'uruza.

Feruje ituma hatabaho ambuteyaje, kuko ireka imodoka zimwe zikaba zihagaze izindi zikaba zigenda. Hari umuhanda w'abanyamaguru, ahasize ibara ry'umweru hagati mu muhanda ni ahemerewe kuba hanyurwa n'umunyamaguru mu gihe yabanje kubona, ko nta kinyabiziga kiri gutambuka, zahagaze.

Umuhanda uteganye n'undi w'igitaka, ucamo iburyo umumotari awurenzeho gato akomeza imbere aho n'abandi bari kujya.

Ifoto y'umuhanda ndetse kuruhande hariho umuhanda w'abanyamaguru bashobora gucamo igihe bagiye aho bajya ndetse mu muhanda harimo umumotari utwaye umugenzi.

Imirongo isa n'umweru isize mu muhanda abanyamaguru bambukiraho mu gihe bagiye ku kindi gisate cy'umuhanda, hari umumotari utwaye umugenzi ndetse n'icyapa kikwereka ko ahongaho ibikamyo bitemerewe kuhanyura ndetse n'abantu bagendera mu muhanda bikwereka ko hari urujya n'uruza rwabo.